Abantu bahagaze ahantu hamwe mu muhanda w'igitaka, bari kureba umwana wikoreye ijerekani rinini ripfundikije umwanana bakura ku gitoki, umuntu umwe ari kumufata amashusho akoresheje terefone.

Icyumba cy'inama kicayemo abantu batandukanye harimo abantu b'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore, harimo abazungu n'abirabura bimanitsemo amarido y'umweru abonerana, bicaye ku ntebe z'umukara bashyize amaboko ku meza bose bafite amakayi n'amakaramu n'amazi.

Abana batoya babiri, umwe wambaye imyenda irimo amabara menshi undi wambaye agapira k'umutuku, bateze ibiganza amazi ari kumanuka ava mu ivumero ryubakishije icyuma, hirya yabo hari ibyatsi byumye harimo igiti gifite amashami menshi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abantu batanu bambaye imyenda y'abaganga bapfutse umunwa n'amazuru bambaye ingofero mu mutwe, umuntu umwe uryamye ku gitanda apfutswe umwenda ibitugu bigaragara, undi muntu umwe mubahagaze ari kumufata ibipimo, hari imashini icometseho insinga.

Umwana mutoya wambaye impuzankano z'ishuri, ateze amaboko ku ndobo irimo amazi bashyizeho igikoresho gituma amazi ava mu ndobo aciye hasi, amazi ari koga ari kumanukira mu ibase.

Ivomero ritetseho utujerekani dutoya, rihagazeho abana batoya bane, n'umuntu mukuru ufashe icyuma cyabugenewe agikanda, akimanura, kugira ngo amazi asohoke mu muyoboro wayo ajye mu bivomesho.

Abantu batatu b'igitsina gabo bahagaze, bambaye impuzankano z'abaganga bari mu cyumba cy'ivuriro, bambaye udupfukawa ku mazuru no ku munwa, bafite amakarito yanditseho amagambo yerekeranye n'imiti ikoreshwa kwa muganga.

Abantu bari mu kigero gitandukanye, harimo abana, harimo umuntu mukuru, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bahagaze ku ivomero, bazanye ibivomesho bifite amabara atandukanye, haruguru y'ivomero hari umukingo uriho ibyatsi n'amabuye manini.

Abantu bari mu nzu yubakishijwe ihema, harimo abantu b'igitsina gabo, harimo n'umwe w'igitsina gore. Bose bambaye impuzankano zo kwa muganga. Imbere yabo hateretswe imiti itandukanye yo mu mabara atandukanye, bamwe bambaye udupfukantoki, umwe yambaye amadarubindi.

Umwana mutoya uhagaze ahantu hitaruye, inyuma ye hari ibiti by'amabara y'umuhondo, n'amabara y'icyatsi kibisi, yambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi kibisi, ahagaze ku ivomo ryubakiwe ari kuvoma amazi ava mu muyoboro w'ivomo, iruhande rwe hateretse indobo ifite ibara ry'ubururu.

Abana batoya babiri bahagaze ku ivomero, bafite indobo zifite ibara ry'umweru, umwe ari gufungura ivomero amazi ari kumanukira mu ndobo, hirya ye hari ibiti by'icyatsi kibisi birebire.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe, hasi ku misambi iboshye, higanjemo abana batoya, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu n'abandi bantu b'igitsina gore n'igitsina gabo, harimo n'abafite uruhu rw'abazungu.

Umwana mutoya usutse ibisuko birimo amasaro y'amabara menshi, umwana yambaye umupira w'umweru, ku ruhande hariho umuntu umuteruye, ku rundi ruhande hariho undi muntu ubona wambaye impuzankano yo kwa muganga afite urushinge yinjije mu kuboko k'umwana.

Icyumba k'inama, kirimo abantu benshi imbere hicaye abari gutanga ibiganiro, harimo inyerekanamashusho, harimo utwuma turangurura amajwi, harimo ifata amafoto n'ibindi bikoresho bitandukanye, ni inama yiga ku bijyanye n'ubuvuzi.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati ifite amabara atandukanye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, afite iyerekani ry'amazi mu ntoki aritetse hasi, ari ku ivomo.

ivomero rusange rihagazweho abantu benshi, higanjemo abana batoya n'abantu bakuru, riteretseho amajerekani menshi, umuntu umwe mukuru ari gukanda icyuma, kugirango ngo amazi ave mu muyoboro wayo ajye mu majerekani.

Inyubako ndende kandi nini, zikoze uruganda rwo gutunganya amazi mabi kugira ngo havemo amazi meza, yifashishwa mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage no kurinda indwara zaterwa no gukoresha amazi mabi.

Abantu batatu b'igitsina gore, bahagaze ku ivomero ritanga amazi meza, hateretse amajerekani menshi, umwe afashe ijerekani mu ntoki riri kujyamo amazi ari kuva mu muyoboro uri ku ivomero.

Ivomero rusange rihagazweho n'abantu benshi, hateretse ijerekani rinini n'ijerekani rito, umuntu umwe afashe icyuma bazamura banamanura kugira ngo amazi ajye mu ijerekani.

Umwana mutoya ufashe ikivomesho mu ntoki giteretse ku ivomero, amazi ari kumanuka ajya mu kivomesho, hari n'ibindi bivomesho bitandukanye, hirya y'ivomero hari ibyatsi biri gukura harimo n'urutoki.

Icyumba kinini cy'inama kicayemo abantu batandukanye harimo abantu b'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umutuku n'imeza ziri imbere yabo kuri buri cyiciro cy'abantu bicaye mu byiciro, zifite amabara y'umukara, hateretseho amazi ku meza n'imashini za mudasobwa bari mu nama ijyanye n'ubuzima.

Abantu batatu, umwe yambaye ishati irimo imirongo ni igitsina gabo, undi yambaye igitenge n'umupira w'igitsina gore, bicaye ku ntebe y'ubururu afite akana iruhande rwe, uwambaye ishati irimo amabara w'igitsina gabo afite ibitabo iruhande rwiwe, ari kubwira uw'umugore wicaye iruhande rw'iwe.

Inyubako y'ishuri ihagazemo abana batoya bambaye impuzankano zisa, ziganjemo ibara ry'ubururu, imbere yabo hateretse amameza ateretseho ibivomesho biteretsemo amazi, bari kuvoma mazi mu bikombe bifite amabara atandukanye.

Ivomero rusange riteretseho amajerekani menshi, rihagazeho abantu barimo abantu b'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore bose bakuru, umuntu w'igitsina gore uteruye amajerekani abiri mu maboko yombi.

Icyumba cyo kwa muganga cyicayemo abantu b'igitsina gore babiri, bafite abana batoya, umuntu w'igitsina gore wambaye agapfukamunwa, ufite imisatsi iriho ibisuko, wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye, ateruye umwana mutoya.

Umwana mutoya ari gufungura robine ikoheze mu ndobo ipfundikije umuvuniko w'ubururu, ukuboko kumwe kuri gufungura, ukundi kuboko kuri gutega amazi kuri robine ngo atameneka hasi, iyo ndobo irimo amazi iteretse ku ntebe.

Umuntu uri ku ivomero yunamye afashe ikivomesho kiri kujyamo amazi aturutse mu muyoboro w'amazi, hazengurutswe n'ibihuru n'ibyatsi bitoya hari n'ikindi kivomesho cy'umukara n'ikindi kivomesho cy'ubururu n'akandi kavomesho gatoya gafite ibara ry'umweru.

Abana bato bari mu itsinda, bahagaze ku ivomero, abandi bahagaze hirya y'ivomero, bambaye imyenda irimo amabara atandukanye harimo ibara ry'umukara, ibara ry'ubururu, ibara ry'umutuku n'andi mabara atandukanye, bateze intoki ku ivomero boga intoki.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe bose ni abantu b'igitsina gabo, bafite ibirahure birimo amazi n'umutobe, amakaramu n'amakayi imbere yabo, imeza ishasheho igitambaro cy'icyatsi kibisi.

Umuntu wicaye asutamye ku ivomero, ateze ibiganza ku ivomero hari kumanuka amazi agwa mu biganza byiwe, iruhande rwe hari amajerekani afite amabara atandukanye, harimo ijerekani rifite ibara ry'ubururu n'amajerekani afite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi batandukanye bahagaze mu murima harimo abantu b'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore, bari gutera imbuto mu murima bakoze uhinzemo, harimo imifuka iteretsemo igitaka n'ibyondo, abandi bafite imbuto mu ntoki abandi bari gucukura imyobo, bashyira izo mbuto n'imboga mu butaka.

Ibiganza by'umuntu utagaragara ariko hagaragara igice gito cy'amaboko ye. Ateze amazi ari kuva mu kivomesho k'ibara ry'ubururu. Hirya y'ikivomesho hari umufuniko ufite ibara ry'ubururu uteretseho isabune. Icyo kivomesho kiri guturukaho amazi y'udutonyanga.

Abantu batatu bicaye ku murongo, imbere y'umwe wambaye impuzankano z'abaganga, afite ibikoresho yaziritse ku kaboko k'umwe, muri abo batatu, ari kumupima uko umutima utera n'umuvuduko w'amaraso.

Mu nzu, mu cyumba kinini hicayemo abantu barimo ab'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore, bafite impapuro z'umweru. Muri iki cyumba harimo n'abandi bantu benshi. Umuntu umwe w'igitsina gore, afite icupa ry'amazi yo kunywa imbere ye. Bose bakurikiye ibyanditse ku rupapuro rw'umweru.

Umwana mutoya uhagaze yunamye ku ivomero, afite igikombe mu ntoki yateze munsi y'umuyoboro w'amazi, aho amazi ari kugwa mu gikombe afite mu ntoki.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mitekerereze, wicaye hasi mu nzira, yambaye imyenda isa nabi, afite igisheke yarambitse hasi, amacupa avamo amazi, amashashi, ibyatsi yagiye atoragura mu nzira n'umufuka wanduye usa nabi.

Abantu benshi bahagaze hanze umubyeyi w'igitsina gore akenyeye igitenge mu nda afite n'inkwi mu kuboko, umwana mutoya ari kurira yikoreye amaboko ku mutwe amarira ari gushoka ku matama yiwe, umwana mutoya ari kumureba uko ari kurira.

Icyapa kigaragaza umugabo wicaye yubitse umutwe, yambaye isaha, n'amagambo agaragaza impamvu umuntu akwiriye gusaba serivisi ijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ku kigo nderabuzima ahabugenewe n'impamvu ibyo bifasha.

Icyumba cy'inama kinini, kirimo abantu b'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore, bahagaze bakoma mu mashyi, bambaye ibirango bibaranga mu ijosi, iruhande rwabo hateretse ameza ateretseho amazi, n'ibitabo by'inama.

Umuntu w'igitsina gabo ufite ubwanwa bwinshi ku kananwa wasamye, afite agakoresho kabugenewe mu gukora isuku hagati y'amenyo, gafite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire wambaye agapira gafite ibara ry'umweru, mu kuboko kumwe ikiganza cye gifashe uburoso ari koza amenyo akoresheje uburoso bwoza amenyo.

Umuntu w'igitsina wicaye ku ntebe zo kwa muganga ari gutunga urutoki rumwe ku menyo yiwe imbere hahagaze umuntu wambaye udupfukantoki dufite ibara ry'ubururu afite igikoresho cyo kwa muganga bakoresha bavura amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe eshatu, gisize amabara atandukanye y'irangi hejuru ku rusenge hasize ibara ry'umweru, rifite ibirahure bibonerana, utubati two kubikamo ndetse n'utundi dukoresho twa muganga dutandukanye.

Umwana muto aryamye areba hejuru, amaboko y'undi muntu utagaragara, afite ibikoresho byo gukoresha mu kanwa kiwe kuko uwo mwana yafunguye umunwa ho gatoya agiye kumuvura indwara zo mu kanwa no mu menyo.

Umuntu wambaye impuzankano zo kwa muganga, zifite ibara ry'umweru, yambaye agapfukamunwa k'umweru n'amadarubindi manini, afite ikaramu y'ibara mu kiganza cyiwe, imbere ye hari urupapuro ari kwandikaho, n'ikirahure kirimo imiti yo kwa muganga y'umweru, ukundi kuboko kugufashe ku mashini nini bakoresha kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu batatu, abantu babiri b'igitsina gabo bambaye impuzankano z'abaganga, n'undi muntu w'igitsina gore uryamye ku gatanda k'abarwayi yasamye, abaganga bari kumuvura indwara z'amenyo.

Umwana mutoya wicaye mu ntebe zo kwa muganga. Arasamye aragaragaza amenyo n'ururimi. Intoki zambaye udupfukantoki ziri kumukora ku menyo yo hasi nayo hejuru, zireba no ku rurimi rwiwe.

Umuntu wigitsina gabo uri guseka, amenyo y'imbere agaragara, amenyo yo hejuru n'amenyo yo hasi agaragara, yambaye umupira ufite ibara ry'umweru, inyuma ye hari ibara ry'umuhondo rigaragara cyane.

Umuntu w'igitsina gabo, ufite ubwanwa ku kananwa, wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, uri guseka, ufite urudodo mu ntoki rwagenewe gukora isuku y'amenyo.

Umuntu w'igitsina gore wogoshe umusatsi wose ku mutwe, yambaye iherena ikiganza kimwe afitemo ibinini, ikindi kiganza afitemo igikombe kirimo amazi yo kunywa, harimo amarido abonerana ku idirishya ry'umweru, harimo itiyo izana amazi mu nzu.

Umuntu w'igitsina gabo n'umuntu w'igitsina gore bafatanye ku rutugu. Umuntu w'igitsina gabo afite imvi mu mutwe no mu bwanwa bigaragaza ko ari umusaza, umuntu w'igitsina gore ateze igitambaro mu mutwe ari guseka. Igitambaro cye gifite ibara ry'umutuku

Abantu babiri bahagaze mu cyumba kimwe bose b'igitsina gore, umwe arakuze afite imvi mu mutwe, uwundi yambaye impuzankano zo kwa muganga afite imisatsi miremire ari gufasha ushaje ufite imvi mu mutwe gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye ku gitanda. Ateruye igikombe mu ntoki ze arikunywa mazi. Mubwanwa afitemo imvi. Inyuma ye hateretse imisego y'umweru. Imbere hahagaze umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'ibara ry'ubururu.

Abantu batatu b'igitsina gore bafite imisatsi irimo imvi bakuze bashaje, bambaye imyenda y'amabara atandukanye bari kwireba muri terefone y'umuntu uri hagati wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri, umwe yicaye ku ntebe, imbere y'ameza hariho ibyo kurya bitandukanye birimo imbuto z'amoko atandukanye, biriho umutobe w'imbuto ari guhabwa n'undi uhagaze imbere y'iwe, wambaye impuzankano zo kwa muganga, uwicaye afite imvi mu mutwe bigaragara ko ari umusaza.

Abantu babiri bicaye ku ntebe imwe, umuntu umwe w'igitsina gore ukuze, afite akabando mu ntoki, uwundi muntu bari kumwe w'igitsina gabo afite igikoresho gikoreshwa n'abaganga mu ijosi, yambaye impuzankano z'abaganga, yiyegamije uw'igitsina gore.

Inzira nini mu nyubako yo kwa muganga, ihagazemo abantu babiri, umuntu w'igitsina gabo n'undi muntu w'igitsina gore wambaye impuzankano z'abaganga. Umuntu w'igitsina gabo, afashe k'utwuma tumufasha kugenda, duteretse hasi ku butaka, adufashishije amaboko ye yombi, atugenderaho, arashaje.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire, wambaye amadarubindi, wambaye umwambaro ufite ibara ry'umuhondo. Yicaye ku ntebe mu cyumba kinini, imbere ye hateretse ameza afite ibirahuri bibonerana, afite agacupa karimo imiti y'ibinini imbere y'iwe hari n'irindi icupa ririmo ibara ry'umweru rifite umufuniko w'icyatsi uteretse hasi.

Umuntu w'igitsina gore ufite imvi mu mutwe, bigaragaza ko ari mukecuru, ari guseka yishimye, arambuye amaboko imbere ye, afashe mu ntoki utwuma bifashisha bakora siporo y'imitsi, inyuma ye hari inyubako ndende.

Abantu babiri ku cyumba kimwe begeranye, umwe yambaye amadarubindi uwundi amadarubindi yashyize hirya yiwe, uwambaye amadarubindi yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, uwundi yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ririmo imirongo y'umukara itambitse, iruhande rwe hari agacupa k'imiti.

Icyumba kinini gisize amabara y'amarangi atandukanye, kimanitsemo amatara, hicayemo abantu babiri bafite imvi mu mutwe, bigaragaza ko ari abasaza, bari kurya ibiryo by'ubwoko butandukanye, birimo imboga n'ubundi bwoko bw'ibiryo bitandukanye.

Umwana mutoya wambaye imyenda irimo amabara atandukanye, ateruwe n'umuntu mukuru w'umusaza, w'igitsina gabo, ufite imvi mu mutwe, umwana mutoya afite igikinisho mu ntoki ari kurebana n'umuntu mukuru, ufite imvi mu mutwe bombi bararebana mu maso.

Icyumba kirimo abantu batatu babiri bagaragara nk'aho bakiri batoya n'umwe ufite imvi mu mutwe, bigaragara ko ashaje, afite isahani mu ntoki ari kwaruraho ibiryo bitandukanye, umugati, imboga, imbuto zitandukanye z'amoko atandukanye.

Abantu b'igitsina gabo n'abantu bigitsina gore, harimo abambaye impuzankano zo kwa muganga, bambaye udupfukantoki, bari gufata amaraso mu rutoki bakoresheje inshinge, abarwayi bicaye imbere yabo.

Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yambaye ikositimu na karuvati n'ishati, afite igitabo mu ntoki, ari gusuhuzanya n'undi muntu w'igitsina gabo, ufite na we impapuro mu ntoki.

Icyumba kinini, kirimo abantu b'igitsina gore, bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari umuntu uhagaze abareba w'igitsina gore, wambaye ipantaro ifite ibara ry'umweru, harimo n'undi muntu w'igitsina gore, ufite ifatamashusho, uri gufata amashusho umuntu uhagaze imbere.

Icyumba cyo mu ivuriro kirimo utubati dukoze mu byuma, twagenewe kubika amaraso yatanzwe ngo ahabwe abarwayi.

Inyubako y'ivuriro isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, isize irange ry'umweru ku rukuta rwo hanze n'ibara ry'ubururu ryandikishijwe inyuguti zigaragaza ko ari inzu ababyeyi babyariramo.

Inyubako nyinshi z'ivuriro zifite uruzitiro rw'ibyuma bivanze n'amatafari, inyubako zisakaje amabati y'ubururu, zifite ubusitani bunini buteyemo igiti gifite amababi menshi n'izindi nyubako ziri inyuma yaho.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi, bafite imashini ku munwa zibafasha guhumeka, iruhande hateretse amacupa manini arimo amazi yo kunywa.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amabara atandukanye, harimo umweru, harimo move, harimo amabara y'umukara, hateretsemo ibyuma byo kwa muganga bitandukanye, igitanda cy'umurwayi aryamaho kwa muganga, imashini muganga akoresha avura umurwayi n'intebe ya muganga.

Inyubako yo kwa muganga ifite amazu atandukanye maremare agerekeranye asizwe amarangi yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru, ifite ubusitani bw'ibiti birebire, icyapa kigaragaza izina ry'ikigo nderabuzima, imodoka nyinshi ziparitse imbere y'inyubako.

Inyubako yo kwa muganga, yanditsweho ko ari inzu y'ababyeyi, hahagaze muntu w'igitsina gabo imbere yayo, ku muryango winjira hateretswe intebe z'urubaho ndende, hamanitse n'igikoresho gikoreshwa iyo habaye inkongi y'umuriro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amarido akora hejuru ariko adakora hasi, gisize irangi ry'umweru hejuru n'irangi ryo hasi ku ruhande ry'umukara, kirimo igitanda muganga aryamishaho umurwayi n'imashini muganga akoresha areba amashusho ava ku bipimo muganga afata ku mubiri w'umurwayi.

Inyubako zo kwa muganga zifite amazu atandukanye, harimo umuhanda ugenda ku mavuriro urimo abantu batatu, harimo umwana umwe ufite ibase mu ntoki, rifite jaride z'indabo zifite amabara atandukanye, indabo ngufiya n'indabo ndende.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zitandukanye zikoreshwa kwa muganga, ibikoresho birimo intebe, ibitanda, utubati, bisize amabara atandukanye harimo umweru, umuhondo, ubururu, hari igishushanyo kigaragaza ibisimba biba mu mazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, gisize amarangi atandukanye, ibikoresho birimo bifite ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umweru, harimo intebe y'umurwayi, intebe ya muganga, indobo muganga ashyiramo imyanda n'akandi kameza muganga yifashisha ashyiraho ibyo akeneye yita ku barwayi.

Inyubako zo kwa muganga zigizwe n'amazu atandukanye, zisizwe amabara y'amarangi atandukanye, higanjemo umweru, icyapa kigaragaza izina ryo kwa muganga n'indwara zivurirwa mu ivuriro.

Icyumba cyo mu ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda cy'umugwayi, imeza, intebe ya muganga, imashini imanitse ku gikuta, ibindi bikuta bishushanyijeho udushushanyo dukundwa n'abana batoya.

Inyubako y'inzu igurishirizwamo imiti, irimo abantu batandukanye, abana, abakuru, abagurisha imiti, utubati tubika imiti, imiryango iriho ibyapa bitandukanye n'amagambo yanditseho izina ry'inzu igurisha imiti.

Icyumba kirimo abantu batanu, batatu baricaye abandi babiri barahagaze, abicaye harimo uwo muganga ari gufata ibipimo amushyiraho igikoresho cyabugenewe, abahagaze babiri bambaye impuzankano z'abaganga ziri mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kinini, gisize amarangi afite ibara ry'umweru, kirimo amarido y'umukara, kirimo imashini zitandukanye zirimo izizana ubukonje, kirimo ibitanda byo kwa muganga, imeza n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Abantu batatu bari hamwe, babiri bicaye ku ntebe imwe, uwundi umwe yicaye ukwe yambaye impuzankano z'abaganga, yambaye amadarubindi, yambaye udupfukantoki, afite igikoresho ari gupimisha umwe mu bamwicaye imbere; hari ubusitani bw'ibiti birebire, undi afite imvi mu mutwe.

Inyubako yo kwa muganga, icyumba kinini kirimo abantu batandukanye, ab'igitsina gore n'abantu b'igitsina gabo, harimo uhagaze uri gusangiza ibitekerezo bye abicaye. N'abandi bicaye imbere, hari icyapa kigaragaza impamvu y'inama n'icyo inama igamije.

Inyubako y'ivuriro, ifite uruzitiro, isakaje amabati afite ibara ry'umutuku, umuryango winjira ku ivuriro hahagaze abantu bambaye impuzankano zisa ziganjemo izifite ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini giteretsemo utubati twinshi tubitsemo imiti, utubati dufite ibirahure bibonerana, kamwe mu tubati kandiditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi kibisi, agaragaza ko ari icyumba kibikwamo imiti ari nacyo cyumba baguriramo imiti.

Inyubako zo kwa muganga, imbere yazo haparitse imodoka zitandukanye, zifite n'amabara atandukanye, mu nzira ajyayo hari abantu bagana kwa muganga, hari icyapa kirangira abantu aho banyura, n'indwara kwa muganga bavura, ku ruhande hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari n'ubusitani bufite indabo z'icyatsi kibisi.

Inyubako yo kwa muganga isakajwe amabati afite ibara ry'umutuku, isizwe amabara menshi yiganjemo ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, rifite icyapa kigaragaza, izina ry'ivuriro hashinze idarapo ry'igihugu n'irindi darapo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru, hejuru n'irangi rifite ibara ry'ubururu ku ruhande ku bikuta bimwe na bimwe rivanzemo n'umweru, harimo ibitanda, intebe z'ubwoko butandukanye, amarido y'umweru n'ibindi bikoresho byo kwa muganga bitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'inzu zitandukanye zubakishijwe amatafari, uruhande rumwe rusizwe amarangi y'amabara atandukanye, ifite ubusitani bunini burimo inzira abarwayi n'abandi bantu baza kwa muganga banyuramo n'ubusitani bw'ibiti birebire ndetse n'indabo.

Inyubako nini yo kwa muganga isize amabara y'amarangi atandukanye, inzira ndende ihuza ibyumba byo kwa muganga bitewe n'aho umuntu agiye n'icyo bakoreramo, harimo akabati gafite amapine kifashishwa kwa muganga, ifoto imanitse ku kibambasi ishushanyijeho ibintu bifite amabara atandukanye.

Umuntu uryamye ku gitanda mu cyumba cyo kwa muganga, iruhande rwe hahagaze umuntu w'igitsina gore wambaye impuzankano yo kwa muganga ifite ibara ry'ubururu, afite igikoresho mu ntoki ari gukoresha afasha umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga.

Icyumba cy'ivuriro babikamo ibikoresho by'amoko atandukanye, birimo ibitanda, ameza, imashini zikora ibintu bitandukanye, harimo imashini zitanga ubukonje n'izindi mashini zikoreshwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba cyo mu ivuriro, kirimo ibitanda bitatu bisashweho ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi kibisi, hamanitsemo ibitambaro bigabanya buri gitanda n'ikindi, hateretsemo imashini bakoresha bavura abarwayi.

Umwana muto ari gusunika igare ry'abafite ubumuga ryicayemo umuntu, imbere yabo hari umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'umweru uhagaze mu muryango w'inzu yubakishije shitingi, itatseho amabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kinini, gisize irangi ry'umweru hejuru, kirimo ibirahure by'umweru bibonerana, kirimo ibitanda byo kwa muganga, bifite ibara ry'ubururu, kirimo imashini zitandukanye zikoreshwa kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza icyumba cyo kwa muganga bafatiramo ibizamini bakanapimiramo indwara zavuye mu bizamini batanze, hahakaze umuntu w'igitsina gabo wambaye impuzankano yo kwa muganga ifite ibara ry'umweru.

Uruzitiro rurerure rwubakishije amabuye n'ibyuma, imbere yaho hashinze ibyuma byamabara y'ubururu n'amabara y'icyatsi, bihurijwe hamwe, bikoze ibyicundo by'abana batoya bishinze mu busitani, burimo ibiti bitandukanye n'ubwatsi bwo hasi.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru kimanitsemo rido y'ikiombe n'igitanda cy'umurwayi, imashini ikoreshwa mu kuvura umurwayi n'izindi mashini zitandukanye ziteretse mu cyumba, ifoto imanitse ku gikuta iriho amoko y'imbuto atandukanye mu mabara atandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru ku nkuta no hejuru kirimo imashini zikoreshwa kwa muganga, ibitanda by'umurwayi, intebe muganga yicaraho, imashini zifite amabara atandukanye, harimo izifite amabara y'umukara n'izifite amabara y'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza zirambuyeho igitambaro gifite ibara ry'icyatsi kibisi, ku meza hateretse amacupa y'amazi, undi arahagaze afite icyuma gifata amashusho.

Inyubako y'ivuriro isizwe amarangi atandukanye higanjemo umweru n'andi mabara, ibara ry'umukara n'umweru byandikishijwe mu gusobanura izina ry'ikigo nderabuzima, ubusitani burimo indabo ntoya n'ibyatsi bito, hashinze Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye gifite amadirishya abiri, kirimo utumeza two kwa muganga dufite amapine bakurura, intebe n'ameza bifite ibara ry'umukara.

Icyumba cy'ivuriro, kirimo utubati dutandukanye, duteretseho ibyuma bifasheho amadarubindi, aho abantu bafite ikibazo cy'amaso baza kurebera amadarubindi abafasha kureba neza.

Inyubako ifite icyapa kigaragaza ko bacuruza imitsi y'amoko atandukanye, imiryango minini isize irangi ry'ibara ry'icyatsi kibisi, utubati turimo imiti, udutambitse, uduhagaze dusize ibara ry'umweru n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Mu cyumba cyo kwa muganga imashini iteretse, ku meza imbere yayo hariho intebe iticayeho umuntu. Muganga ahagaze, yambaye impuzankano y'abaganga ifite ibara ry'umweru. Harimo icyuma gikonjesha. Muganga ahagaze imbere y'imashini nini.

Umuhanda ushashemo amabuye, hashinze icyapa cyerekana izina ry'ivuriro, hari ubusitani buririmo ibyatsi bigufi n'ibyatsi birebire, inyubako y'ivuriro isakaje amabati y'ubururu yubakishije amatafari.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, imashini zitandukanye zirimo imashini zizana ubukonje, ibitanda, imeza, indabo zikoreshwa kwa muganga n'imashini z'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiryamyeho umuntu w'igitsina gore, imbere ye hahagaze uwundi muntu w'igitsina gore wambaye impuzankano y'abaganga, wambaye n'amarinete yafashe akaboko k'uryamye ku gitanda, ari kumufata ibipimo byo kwa muganga.

Inyubako nini cyane, irimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ikasemo ibice bitandukanye, birimo ibikoresho bitandukanye, hagendewe ku mumaro w'igikoresho, n'icyo icyo gikoresho cyagenewe gukora.

Inyubako yo kwa muganga icyumba kimanitsemo supanete, kirimo ibitanda byinshi bigiye biryamyeho abantu, utugare twifashishwa n'abafite ubumuga, amadirishya afite ibirahure bibonerana n'amatara ku ruhande ku bikuta.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amarangi afite ibara ry'umweru ku bikuta gifite amadirishya yo kuru ruhande rwo hepfo igitanda cy'umurwayi gifite ibara ry'umukara hejuru n'ibara ry'umweru ku byuma bigifashe hasi hubatsemo akabati gateretsemo ibikoresho byo kwa muganga.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, ibitanda by'abarwayi, intebe muganga yicaraho, indobo zijugunywamo imyanda, utubati, aho bogera intoki, bamaze gukoresha amasabune yo koga ku ntoki ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bikoreshwa kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe muganga yicaraho aganira n'umurwayi, igitanda umurwayi aryama muganga ari kumusuzuma, mudasobwa muganga akoresha ari gufata amakuru yerekeranye n'umurwayi iteretse ku meza muganga yandikiraho, harimo utubati muganga akoresha abika impapuro zanditseho amakuru y'umurwayi.

Icyumba cyo mu ivuriro kirimo amacupa manini abiri afite ibara ry'ubururu, hateretseho imashini ebyiri hari imashini yindi iteretse hasi.

Inyubako yo kwa muganga, ifite imiryango n'amadirishya bikozwe mu birarahure birebire bibonerana, umuntu uhagaze iruhande rw'umuryango, wambaye imyenda ikozwe mu mashashi akomeye, imurinda kuba yakanduzwa n'imyanda.

Umuntu w'igitsina gore aryamye ku gitanda cyo kwa muganga gishasheho ishuka y'umweru, yiyoroshe n'iyindi shuka y'umweru, aryamye areba hejuru, iruhande rwe hari imashini icometseho insinga nyinshi n'indi mashini hejuru igaragaza amashusho.

Ukuguru k'umuntu wambaye ikabutura guhinnye mu ivi, iruhande rwe hahagaze umuntu wambaye impuzankano z'abaganga, mu ijosi yambaye akuma bakoresha bapima umutima w'umuntu. Afatishije intoki ze ku ivi arigukanda ukuguru k'uwo muntu yumva aho ububabare buri, amuvura ivi.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, umutobe w'imbuto, imboga, igikoresho gikoreshwa mu gupima umubyibuho cyangwa uburebure ikintu runaka, ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbuto z'amoko atandukanye, zifite amabara atandukanye, hari imbuto z'icyatsi kibisi, imbuto z'umuhondo, imbuto z'umutuku n'izindi mbuto zitandukanye. Harimo inanasi, harimo imbuto z'indimu z'amoko atandukanye, ibinini, imidari y'ibihembo batanga n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo uhinnye akaboko ke akarambuye akajyanye inyuma, ikiganza cye kiri ku bitugu bye inyuma y'umutwe ukundi kuboko gufashe ku nkokora kunyuze hejuru y'umutwe we aho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara, akaguru kamwe akarambuye gahagaze, akandi kaguru yakazamuye yakarambuye ku cyuma gafashwe n'ukuboko gufashe ku rukweto, ukundi kuboko gufashe mu mayunguyungu.

Umuntu w'igitsina gabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari ibimera bitandukanye nk'ibikomoka ku matungo, inyama, amagi. Ibimera birimo amashu, karoti, ibishyimbo, ubunyobwa, inanasi, hari n'amazi n'umutobe w'ibyo kunywa bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore wicaye hasi ahinnye ukuguru kumwe, arambuye ukundi kuguru, ukuboko kumwe kuri ku kuguru kurambuye, ukundi kuboko gufashe ikirenge cyo ku kuguru kurambuye. Yambaye ipantaro y'umukara n'agapira. Ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kiriho abantu benshi, bamwe bari kure, abandi bari hafi babiri, umwe aryamye hasi areba hejuru, yarambuye akaguru kamwe, akandi yaguhinnye mu ivi, uwundi muntu apfukamye imbere ye n'ivi rimwe amaboko ye yombi ayafatisha akaguru k'uwo muntu yazamuye, hirya yabo hari umupira bakinisha amaguru.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye agapira karimo amabara atandukanye, higanjemo ibara ry'umuhondo, ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara, yambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, yahinnye akaguru kamwe akandi arakarambuye, yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byo kwa muganga, kirimo igitanda cyicayeho umuntu urambuye akaguru akaba yagashyize hasi, akandi agahinnye mu ivi agateretse ku gitanda kavunitse, iruhande rwe hari umuntu wambaye ishati y'umweru wambaye n'ikarita imuranga, ari kuzengurutsa umwenda wabugenewe kuvura imvune ku kaguru k'uwo muntu wicaye ku gitanda.

Umuntu w'igitsina gore uri kunywa amazi arararamye ari kureba hejuru yambaye agapira ka move afunze imisatsi yaziritse akaboko k'iwe ari kunywesha amazi.

Icyumba gikorwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byifashwa gukora imyitozo ngororamubiri, gihagazemo umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, arambuye amaboko imbere, ahinnye akaguru kamwe inyuma, akandi agahinnye yakerekeje imbere.

Umuntu w'igitsina gore uri hafi y'bitinda areba imbere ye ari guseka hirya hari imbuto z'ubwoko butandukanye pome, imizabibu, imineke, n'izindi mbuto.

Umuntu w'igitsina gore arahagaze ari kunywa amazi mu icupa ry'umweru afatishije ukuboko kumwe yazamuye ukundi kuboko kuramanuye kuziritseho terefone y,umukara yambaye isengeri y,umukara yambaye ihelena umusatsi yawufungiye hejuru ku buryo udakora ku bitugu.

Umuntu w'igitsina gore, yicaye hasi, ukuguru kumwe yaguhinnye mu ivi, yambaye inkweto z'umweru, ukundi kuguru yakurambuye, akaboko ke yaziritseho igikoresho cy'umukara, yambaye isengeri y'umukara, n'ipantaro y'umukara, arambuye amaboko yombi, ayafatisha ku kirenge cy'ukuguru, yarambuye.

Icyumba kinini, gisize amarangi y'umweru hejuru n'amarangi y'amabara atandukanye ku mpande. Giteretsemo ibyuma byagenewe gukora imyitozo ngororamubiri, bitandukanye bitewe no gukora imyitozo ngororamubiri, yashaka gukora imyitozo ngororamubiri yiwe.

Umuntu w'igitsina gabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara, inkweto zifunze, amasogisi y'umweru, isaha ku kaboko, akaguru kamwe agahatse hasi akandi agatetse hejuru ku ruzitiro rwubakishije ibiti bitambitse, amaboko yayafatishije ku kaguru yarambuye ku biti bitambitse.

Ikiganza gifashe ijage ibonerana, irimo amazi ari gusuka ku kirahure giteretse ahantu, ikirahure kibonerana, kiri kujyamo amazi avuye mu ijage.

Abantu babiri bari mu cyumba kimwe cyo kwa muganga umwe yicaye ku gatanda arambuye akaguru kakomeretse kavunitse, bari kumushyiriraho imiti ndetse banashyiraho ibipfuko biri bumufashe kugira ngo adakomeza kubabara cyangwa agakomeza kuvunika.

Igare ryifashishwa mu gutanga ubufasha ku muntu ufite ubumuga bwo kutagenda cyangwa kudahagarara cyangwa mu gufasha umurwayi ukeneye gukurwa ahantu hamwe ajyanwa ahandi, atabasha kugendesha amaguru yiwe.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri biteretse ku meza n'agatebo gato karimo imboga z'amoko menshi, isahani iriho imbuto zitandukanye zirimo inkeri, imineke, n'andi moko y'imbuto, isahani yindi iteretseho inyama, amagi, n'ibindi bifasha umubiri kumera neza.

Umuntu w'igitsina gabo, upfukamye ku kaguru kamwe, ashinze ivi, wambaye imyenda y'umukara, wambaye inkweto z'umukara n'umweru n'amasogisi y'umweru, arikanda mu ivi n'amaboko yombi, avura ububabare bwo kuvunika muri siporo

Abantu babiri begamanyeho ku mugongo, umwe w'igitsina gabo n'undi muntu umwe w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire, uw'igitsina gabo yambaye umupira uriho ibyuya kuko amaze gukora siporo, bombi bari kunywa amazi mu icupa.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa abantu bakora imyitozo ngororamubiri, abantu babiri bafite umupira wo gukina, buri wese afite umwe, yose hamwe ni ibiriri. Umuntu uri gukandagira ku migozi iri hasi asimbuka akaguru kamwe kari hejuru akandi kari hasi.

Imbuto z'amoko atandukanye, ibibabi by'imbuto, imbuto zikaze n'imbuto zidakase zifite amabara arimo imbuto z'icyatsi kibisi, imbuto z'umutuku n'imbuto z'umuhondo.

Utubati tubitsemo imiti gakondo iri mu macupa maremare yanditseho ubusobanuro bw'imiti, imeza iteretseho akabati ko kubikamo imiti gafunguye hejuru gakoze mu mbaho, karimo imiti itandukanye ikoze mu ndabo, amafu, ibinyampeke n'ubundi bwoko bw'imiti bufite amabara atandukanye.

Amacupa y'imiti gakondo, afite amabara atandukanye, mu macupa atandukanye, amaremare n'amagufi, amacupa afite amabara atandukanye, harimo afite amabara y'umutuku, amacupa afite amabara y'umuhondo, amacupa afite amabara y'icyatsi n'andi mabara y'ubwoko butandukanye.

Imiti ya gakondo, igizwe n'ibintu bitandukanye birimo: imbuto, amababi, indabo, ifu, ibikoresho bya gakondo birimo: inkono, udusekuru duto n'agahini gatoya, bikoreshwa mu gukora imiti ya gakondo.

Imiti ya gakondo itandukanye ifite ibibabi ndetse n'indabo, ibibabi by'icyatsi kibisi ndetse n'indabo z'umuhondo, indabo z'umutuku, iyo miti harimo imiravumba n'iyindi ifite amazina atandukanye.

Amacupa apfundikiye arimo imiti gakondo, yanditseho ibirango bigaragaza amazina y'imiti n'icyo ivura n'ikarito yanditseho abemerewe gukoresha imiti imyaka bagomba kuba bafite.

Isoko rinini, irimo abantu b'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore, umuntu w'igitsina gabo ari gucuruza imiti gakondo mu macupa manini n'amacupa matoya, harimo n'amacupa ameneka. N'ibindi bifungiye mu mpapuro zabugenewe zo gucururizamo.

Amakarito atandukanye yanditseho imiti gakondo n'icyo yagenewe kuvura, ateretse ku murongo umwe hariho n'ageretse hejuru, ku ruhande hariho indabo z'amabara y'ubururu n'icyatsi kibisi, ku rundi ruhande hariho umuneke ndetse n'inanasi.

Akabati karimo imiti itandukanye gakondo, iri mu macupa atandukanye maremare, amagufi, amacupa afite amabara atandukanye harimo ay'ikinombe, amacupa y'icyatsi kibisi, amacupa y'umuhondo n'amacupa y'umweru, afite imifuniko y'umweru.

Icupa rito ryerekana umuti gakondo, rifunguye ridafite umuvuniko, ryanditseho uburyo umuti ukoreshwa, umumaroti gakondo, naho ukoreshwa, n'uburyo umuti gakondo ubikwamo, kugira ngo utangirika.

Ibyatsi by'amoko atandukanye, biteye ahantu hamwe bfite amabara atandukanye, harimo ibyatsi bifite amabare y'icyatsi kibisi n'ibindi byatsi bifite amabara y'umutuku ndetse n'ibindi byatsi amabara y'umweru, byose biteye hamwe n'ibindi byatsi bifite amabara y'umuhondo, ni ibyatsi bikoreshwa nk'imiti ya gakondo.

Umuntu wambaye impuzankano z'abaganga, ashyize amaboko ku meza ifite ibara ry'umweru, afite imiti mu ntoki igizwe n'ibinini bitatu bifunze n'ikarito babikamo imiti.

Ishami ry'igiti gifite amababi afite ibara ry'icyatsi kibisi, iriho imitonyi y'amazi yagiye arigwaho y'imvura. Hasi haratose, hari amabuye kandi hari igitaka hegereye urukuta rw'inzu. Ni umuti wa gakondo.

Igihingwa cy'umuti gakondo gifite amashami menshi cyane, utubabi duto dutoya twegeranye tugiye turambuye dufite ibara ry'icyatsi kibisi.

Imiti gakondo igizwe n'indabo, ibinini, indabo z'amoko atandukanye n'amacupa arimo iyindi miti y'amazi ,indabo z'umuhondo n'umweru, indabo z'icyatsi n'ayandi mabara y'indabo zikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo.